Ni mu ivuriro, mu ivuriro mu cyumba cy'ivuriro ko bigaragara aho bakunda kubagira abantu cyangwa se babasuzumira uburwayi butandukanye, ariko bibasaba kubanza bakaryama bakareba ikibazo bafite, ni mu isuzumiro mbese.

Ni umuryango. Umuryango wishimye, umuryango uri hamwe, unezerewe. Bigaragara ko hari icyo urimo witegereza. Wishimiye kuba abana barikurebana televiziyo. Ababyeyi barahari, abana barahari. Umuryango unezerewe kandi wishimye uko bigaragara.

Ni gahunda yashyizweho na leta y'u Rwanda hagamijwe gukumira ubwandu bw'iki cyorezo kuko byagaragaraga ko yuko gishobora guhitana abantu benshi mu gihe gitoya bitewe n'ukuntu cyakwirakwiraga, mu buryo bwihuse kandi kikandura gifata cyangwa se ibimenyetso byacyo bigaragara ko cyagusha abantu mu buryo bwihuse kandi vuba vuba.

Ni inyubako igizwe n'ibikoresho byinshi kandi bitandukanye ishobora kwifashishwa mu kugaragaza amashusho, harimo amateleviziyo n'ibindi bikoresho bitandukanye byose, amakamera n'ibikoresho byinshi bitandukanye bishobora gukoreshwa nyine mu gusohora amashusho ndetse no kuyerekana.

Ni ikigo nderabuzima abantu baherereye mu ntara y'iburengerazuba mu karere ka Rusizi bakunda kujya kwivurizahouburwayi butandukanye, ni ikigo kandi gitanga serivise nziza zerekeranye, n'ubuvuzi abantu bishimira ugereranyije n'uko baba babivuga mu makuru.

Muri ofisi isukuye imeze neza iberamo ibintu bitandukanye cyangwa se ishobora kuberamo inama zitandukanye ishobora kwakira abantu bakeya cyangwa se abayobozi bakuru b'inzego runaka, hanyuma bakaganira ku ngingo bateguye hagamijwe intego runaka bashaka kugeraho.

Na baganga batanga serivisi zerekeranye no kubyaza bambaye iniforume zisa nizarimo ubururu amabara y’ubururu bwijimye bari ku ivuriro risize amarangi ndetse ku bigaragara hanashashe amatafari yibara.

Mu cyumba cy'ivuriro kigaragaramo umurwayi urembye uryamye ku gitanda hakaba harimo ibikoresho bitandukanye, harimo akabido, hakaba harimo indobo bashyimo imyanda nyuma yo kuba umurwayi cyase gukora ikintu icyo ari cyo cyose ariko gishobora guteza umwanda mu ivuriro, uku bigaragara hari harimo n'icyuma kandi gicumetseho umurwayi warembye kimufasha kubona amaraso.

Ni igikoresho gikoreshwa bapima ubushyuhe, umuriro uri mu mubiri w'umuntu cyangwa se hagamijwe intego runaka kureba uburwayi yaba afite.